Umunyeshuri wiga mu mashuri abanza agomba kugira ubushobozi bwo gusoma ndetse no kwandika mu gihe agiye ku ishuri ariko ibyo ntabwo bipfa kwizana niyo mpamvu abantu bubaka amashuri ndetse n'abakunda gufasha abana bakora uko bashoboye kose abo bana bakabona ibikoresho by'ibanze bibafasha harimo inyubako ziriho ibishushanyo.

Ikigo k'ishuri kigaho abana bakiri bato, aho ku gikuta hagiye hashushanyije ibintu bigiye bitandukanye nk'inka, utunyoni ndetse n'ibindi byinshi.

Ikigo k'ishuri gifite amashuri yubatse neza ndetse mu buryo bwa etaje igeretse kabiri, akaba ari amashuri ubona ko ari mashya yubatswe vuba.

Igikoresho kifashishwa mu mashuri kikaba kibamo udukoresho twifashishwa mu mibare nk'irati, koreyo, uducaruziga, udacamurongo, amakaramu y'igiti ndetse n'ibindi.

Mu mashuri abanza haba harimo ibishushanyo bishushanyijeho inyuguti ku buryo bifasha abana bakiri batoya kugira ubumenyi mu gusoma ndetse no kwandika neza, bityo bagakura hari amagambo ndetse n'imyandiko bashobora kwisomera bo ubwabo.

Hari ibitabo bifite amashusho atandukanye bigira uruhare mu gutuma umunyeshuri akunda gusoma, ibyo bitabo biba birimo amashusho abafasha gusoma kandi bakumva babikunze n'ubwo nta muntu waba ubibahatira bakabikora babikunze.

Ni ibikoresho bikozwe mu ibumba bifasha abantu kugira uruhare mu gutuma bagira ubuzima bwiza abantu bakora ibyo bikoresho baba ari abahanga barabyize kandi bishobora kubafasha kubona akazi bagakora ibindi bintu bishobora kubateza imbere bityo bakava mu bukene.